Abantu babiri bakaba bari kuvomerera imyaka, bari mu murima uhinzwemo imyaka, isa n'icyatsi kibisi, bahetse ikintu kirimo amazi ndetse wagira ngo bariho baratera umuti muri iyo myaka.

Umugabo uri kwakira umuti wo kwica udukoko twataka imyaka mu bihingwa kandi yari kuwuhabwa n'ushinzwe iby'ubuhinzi kugira ngo abashe kuba yagira neza ubuhinzi bwe.

Abantu bari ku ruganda rutunganya ibihingwa ndetse kandi harimo umuntu wambaye itaburiya y'akazi ndetse kandi harimo n'abagore kandi hari umunzani uri ku bipima.

Ikibaya kirimo umugezi, kirimo amazi atemba ndetse harimo n'amazi adatemba akaba ari ahantu hamwe kandi ni hafi y'imyaka y'ibisheke ikaba iteye kugira ngo abantu bayikorere.

Mu kibaya cy'amazi ndetse hari umusore uri mu mazi, akaba yashyizemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, arashakaro, mu buryo bwiza kandi burimo ikoranabuhanga ritakaje.

Abagabo bane bari mu cyuzi ndetse kandi bafite supanete, bagiye kuyishyira mu mazi kugira ngo ibafashe kuba baroba amafi ndetse kandi hari ukuntu bayiziritseho kugira ngo amafi ajyamo bahite bazamurira rimwe.

Umusore wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse akaba afite amazi mu ishashi nini kuko harimo icyo yakuye mu mazi, kimeze nk'ifi. Ni umusore ukora akazi k'uburobyi.

Ikibaya kirimo amazi ndetse n'inyubako, zikoreshwa mu gusukirara imyaka ndetse hakanakoreshwa ubworozi bw'amafi kandi banarobamo amafi.

Imyaka y'ibihingwa iteye hafi y'amazi kandi imwe iteye no mu mazi kandi imwe ikoreshwa mu kugaburira inyamaswa zimwe ziri mu mazi nk'amafi n'ibindi.

Icyuzi kinini cyane. Kibitse amafi ndetse bakunze kukirobamo. Cyegereye igishanga ndetse n'ibindi byatsi bibitse izindi nyamaswa ziba mu mazi.

Abasore babiri bambaye ibisarubeti bakaba bari mu mazi, bafite uburyo barobamo mu buryo butangaje kandi bugezweho, hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga, bitarindiye kujya mu mazi.

Abagabo batatu bafite igikoresho kimeze nka supanete hakaba hariho ibijumba basaruye, bakaba bari kubirongera muri ayo mazi kugira ngo biveho umwanda.

Abagore babiri bari mu murima bakaba bari gusarura icyayi, bakaba bafite ahantu bari kugisarura bashyira, ni mu dutebo bahetse ku migongo ndetse kandi bari kuganira neza bishimye.

Ikibaya kinini cyane ndetse kikaba giteyemo imyaka y'umuceri. Ni imyaka ifite ubwiza butunganyije kandi gifite amazi hasi, gifite amazi atuma gishashagirana, kikabaho neza.

Abahinzi b'ikawa basaruye, bakaba bari kuyijonjora bakuramo iyapfuye kugira ngo babashe kuba bayisya. Ni abagore beza kandi bambaye imyenda y'akazi.

Ikawa igihingwa giteza imbere igihugu ndetse kigashyira umuturage ku isonga dore ko iyo agifite ababayeho neza ndetse agira amafaranga kuko iyo ashoye mu isoko abona uburyo bwiza bwo kubaho.

Umugore w'umuhinzi w'icyayi ari gusoroma icyayi. Ni mu kibaya kinini gihinzwemo imyaka itandukanye yiganjemo cyane cyane icyayi. Abantu benshi ntabwo bakunda guhinga icyayi bitewe n'ahantu batuye kuko icyayi giterwa bitewe n'akarere runaka.

Umugore uri gusarura imbuto yahinze z'ikawa, akaba ari kuzisarura hejuru cyane ndetse kandi icyo giti k'ikawa kikaba gifite ibibabi by'icyatsi kibisi cyane.

Umugabo wambaye imyenda y'akazi n'akagofero gasa n'igisarubeti yambaye ari kwegeranya imyaka yahinze ishobora kuba ari icyayi kuko ni nk'ibibabi ari kwegeranya.

Umugore ndetse n'umuhungu we, bari mu murima, bari mu myaka, bari gusarura icyo bita ikawa. Kandi bari kubikora baseka, bishimye, kuko bagiye gushora mu masoko.

Umuntu uri mu mazi ari guhinga igihingwa cy'umuceri. Ni mu kibaya kinini ndetse kandi ni umugore ufite ubunararibonye mu buhinzi bw'umuceri kuko bikorwa n'umuntu usa nkaho ukunze kujya mu mazi.

Ibihingwa biteye harimo ikawa, harimo amasaka ndetse icyayi hirya ndetse bifite umumaro munini kuko bituma igihugu gitera imbere.

Umuti uri mu gikombe ndetse undi ukaba uri mu tujerekani ukaba uriho igishushanyo k'inkoko, akaba ari umuti wica inkoko kandi ukaba uterwa ibintu bigiye bitandukanye.

Udupaki tw'ibiyobyabwenge bishobora kwica inyamaswa ni udupaki dupakiyemo imiti ishobora kugira ingaruka nini cyane mu kwica, ndetse no gukuraho inyamaswa izo arizo zose.

Umuhinzi mworozi uri gusarura anasuzuma ko imyaka ye yeze, ni muhinzi wahinze ibihingwa by'ibigori, ari gusuzuma ko ibigori bye byaba byeze kugira abashe kuba yabisarura muri icyo gihe.

Ubworozi bw'inka bwororewe ahantu hamwe ni inka ziri kurisha harimo inzungu ndetse n'inyarwanda, harimo ikimasa harimo n'imbyeyi, zikaba ziri kurisha ndetse zishimye.

Abahinzi bari mu murima higanjemo: umugabo, abana ndetse n'umubyeyi. Bari mu murima bari gusarura imyaka y'ibigori yereze ndetse kandi bari kwishima cyane.

Abahinzi bari mu murima bakaba bari kubagara imyaka ndetse kandi bari kubagara ibigori bahinze bivangavanze n'indi myaka ku ruhande, ni abahinzi batatu.

Umuntu uvuye kugura igihingwa kugira ngo agitere nk'ururabo iwe ndetse hari abantu benshi bakomeje kuba bajya kwaka imbuto kugira ngo batere, bagire ubuzima bwiza dore ko ibiti bituma habaho umuyaga ndetse n'umwuka mwiza.

Igiti cy'ikigori, ni ikigori cyeze kuko cyarashwanyaguritse, hari ibindi bigori hirya yabyo na byo byibanguye kubera ko bitegereje umuntu ubisarura.

Umurima uteyemo imboga z'amashu, ni imboga zikoreshwa mu bigendanye no gushorwa ku masoko ndetse bakaba banazirya, iyo zishowe ku masoko uwazishoye abona amafaranga ashobora no kubitsa kuri banki ndetse akaba azayabikoza mu gihe kizaza.

Igihingwa cy'umuceri kikaba gihinze mu kabande ahantu mu kibaya, kikaba ari igihingwa cyiza cyane kiriho kizamuka gifite amazi mo hasi, n'ahantu abahinzi bahinga bagamije gushora mu masoko no kubona ibyokurya cyane.

Ikibaya kinini giteyemo imyaka myiza kandi harimo umuceri ibindi bihingwa nk'ibishyimbo, ibigori ndetse kandi n'ibindi, hari yo umuntu urinze umuceri inyuma.

Umurima uteyeho imigozi y'ibijumba ndetse kandi harimo imigozi myinshi, isa n'icyatsi kibisi. Irarandaranda, ikamera nk'ibyatsi birandara.

Inoryi, karoti ndetse ibitunguru, amashu, byose ni bimwe mu biribwa bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi bikaba byamufasha kubaho igihe kirekire igihe abikoresha mu kurya.

Ishyamba rinini rimeze nk'igihuru rikaba rifite ibikoresho by'inkwi bikoreshwa mu gucana ndetse rikaba rifite amashyamba afite ibiti by'imbuto bikoreshwa mu kuribwa, amapera ndetse n'amacunga.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo amavuta, sayisa ndetse n'ibindi biri mu dufuka, udukarito, udushashi ndetse kandi umucuruzi ni we ubicuruza.

Abahinzi bari mu murima benshi, bari mu mirima y'imiceri, bari kubagara ndetse kandi barunamye, bari mu mirima igiye itandukanye. Hafi yabo hari ishyamba rinini rya kimeza.

Umurima uteyeho ibihingwa ndetse ibyo bihingwa, bikaba bisasiye ibintu by'imyanda ndetse kandi byagenewe gushorwa mu masoko, byahinzwe n'amakoperative kugira ngo azabone amafaranga, ajyanwa muri banki.

Imyaka iri mu murima ndetse harimo ibishyimbo ku ruhande rwo hirya, ahandi harimo ibihingwa by'ibigori, ni ibihingwa bitanga umusaruro munini cyane kuko iyo ubishoye bigira amafaranga menshi.

Ishyamba rinini cyane rifite ibiti by'amoko menshi atandukanye rikaba ribitse imbuto ndetse n'ibindi, harimo ibiti bya kimeza kuko n'ishyamba rimaze igihe kinini.

Abakerarugendo bari mu ishyamba bagiye gusura inyamaswa zo muri pariki, harimo inyamaswa nk'ingagi ndetse n'abazungu ndetse kandi bariho baranafotora izo nyamaswa.

Ibimera byamashyamba n'imbuto ndetse kandi biri ahantu ku musozi. Nta hantu wabona umunyura kuko ni igihuru cyibimera byamashyamba kandi n'ibihuru byose bisa n'icyatsi kibisi harimo n'imbuto.

Umusozi muremure uteyeho ishyamba rinini ndetse n'ibyatsi, hakaba hari n'utubuga duto dutoya, hari n'ahantu uruhande rumwe ruriho ibitare binini bituma abantu bagira bakubaka amazu meza.

Ishyamba rinini ryeramo imyaka itandukanye kandi rikaba rifite n'imbuto kuko mu ishyamba ntihajya habura imbuto zo kurya, hava inkwi zo guteka kandi hakava ibintu byinshi bitandukanye muri iryo shyamba.

Umusozi munini ndetse ufite ishyamba. Ishyamba ribitse inyamaswa, ndetse bakaba bakunze gutemamo ibiti bicanwa. Ugasanga kandi iryo shyamba rifite akamaro kanini.

Ishyamba rinini rifite ibihuru rikagira ibiti byihishemo by'imbuto, ndetse harimo n'ibyakatsi byamezemo bizamutse hejuru, ni ishyamba utamenya ahantu ryaturutse.

Ishyamba rinini ndetse hasi mu kibaya harimo amazi kandi hafi y'iryo shyamba, harimo n'insina, ziteye kandi ruguru y'amazi hari imisozi, iteyemo imyaka igiye itandukanye n'ibiti kimwe kimwe.

Umugore uri mu murima ndetse akaba ari gusarura imyaka yahinze yiganjemo ibitoryi, ndetse n'izindi, kandi harimo n'insina, ku ruhande rwe aribuzeze gusarura, ni imbuto ziganjemo ibyo byose.

Igihingwa cy'imboga kikitwa inyanya. Gihinzwe neza ndetse gifite ubwiza butangaje. Gifite ikibabi gisa n'icyatsi kibisi ndetse kandi kikaba cyubakiye ahantu kiba.

Ahantu hari indabo nyinshi kandi nziza harimo iz'umuhondo, iz'umutuku ndetse n'ubundi bwoko bwinshi butandukanye bukaba bwarashyizwe ahantu hamwe kugira ngo umuntu nabukenera aze abugure.

Umusaruro mwinshi w'inyanya umugabo ari kuwupakira mu mifuka, ni umusaruro yasaruye mu murima aho yari yarahinze ndetse kandi ni umuhinzi mworozi.

Umugore wifashe neza nk'uri kwifotoza, ari mu murima yahinze amashu yagiye kureba uko ameze ndetse kandi ayarimo hagati amashu yateye ku murongo.

Ibiribwa harimo imboga inyanya ndetse kandi amashu, intoryi, karoti, byose bifite umumaro munini kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza, ntapfa kurwara ndetse ntapfa kwatakwa n'izindi ndwara.

Abagabo babiri bari mu murima. Bari guhinga igihingwa cy'urusenda kandi bafite uburyo ki bari gucamo imirongo kugirango babashe kugira umusaruro uhagije.

Igihingwa cy'urubuto rw'bipapayi cyera ibipapayi byinshi cyane bishamikiye ku giti kimwe kandi kiba gifite ibibabi bishwamaraye ndetse kandi ni igihingwa cyiza cyera cyane kerera imyaka.

Umurima munini uteyemo ibigori ndetse kandi bikaba biri mu gihe cyo kwera kandi bikaba bifite uburyo bivomererwa hakoreshejwe impombo zabugenewe ziri hejuru yawo.

Ikibaya kinini giteyemo imyaka y'ibigori ndetse kandi hakaba harimo abantu barimo babagara ndetse kandi harimo n'uburyo bwiza bwo gusukira imyaka buriho busunika amazi hirya kure.

Icyuma cyabuhariwe mu gusukira imyaka gikoreshwa n'ikoranabuhanga, kuko kigogozwe mu buryo bw'amapine ndetetse kigenda nk'imodoka ariko kiba gifite uburyo gikoreshwa, iyo kiri mu myaka, ni imyaka isa neza kandi isa n'icyatsi kibisi.

Umuhinzi mworozi uhinga imboga harimo amashu ndetse agahinga n'urutoki, ni umuhanga iyo izuba rirashe agira uburyo asukira imyaka ye.

Ibihingwa biteye ku murongo ni byo biba bifite kwera neza kuko biba bitagondana cyangwa bitabyigana, noneho hakabaho kuba byasukirwa kugira ngo bigire ubuzima bwiza bibone imvura igihe hari izuba.

Umuhinzi mworozi ari guhinga umuceri kandi ari mu mazi, yambaye isengeri n'ikabutura nini ndetse kandi n'ingofero ari kumwe n'itungo imbere, abandi bari gusarura ndetse harimo n'ababagara, ni hafi y'umuhanda hari n'ikinyabiziga cya moto.

Abahinzi bari guhinga abandi bari kubagara, kandi bari kubagara imyaka kugira ngo itazagirirwa nabi n'imvura kandi inyuma yabo hari moto ihapfaritse.

Agasozi kahanamye gafite ishyamba ndetse gateyeho n'imyaka kandi ako gasozi gafite ibikorwa nko kugira amabuye cyangwa se ibitare bikoreshwa mu bwubatsi.

Amashyamba ndetse harimo amashyamba ya kimeza kandi akaba ari ku musozi munini. Hafi yaho hari imyaka iteye y'icyatsi kibisi, iteye mu buryo bw'umurongo kandi hafi yaho hari akazu gato.

Ishyamba rinini ndetse rikaba ryegeranye n'ikibaya kinyuramo amazi menshi. Kikaba ari umugezi urimo amazi menshi, ushobora gutuma bayarobamo, bagakoramo amafi ndetse hari n'imyaka iteye muri icyo kibaya.

Imisozi ihanamye kandi iriho amazu, irimo n'utuyira tumanuka kandi iyo misozi harimo iyacukuwemo amaterasi kugira ngo imvura n'igwa ige imanura amazi neza.

Ikibaya kirimo amazi y'umugezi ndetse kandi hakaba hari n'imisozi irimo amashyamba ndetse indi ikaba iteyemo imyaka igiye itandukanye ndetse icyo kibaya gikoreshwamo nk'uburobyi n'ibindi.

Agasozi kanini karekare kandi gafite ibyatsi byiza bitohagiye ndetse n'ishyamba rinini, ni imisozi miremire kandi hasi mu kibaya harimo amazi, ayo mazi afitemo n'ibindi bintu bimeze nk'ibyatsi no munsi.

Imisozi ihanamye kandi irimo imyaka iteye. Harimo n'amashyamba kandi harimo n'ahantu bagiye baca amaterasi kugira ngo imvura nigwa itazamanukana ubutaka.

Umusozi munini urimo ibibaya byiza cyane ndetse umusozi ufite ishyamba rinini ririmo ibihuru, ibyo bishyamba kandi harimo iziba zifite imbuto za kimeza nk'amapera n'ibindi.

Umusozi munini cyane kandi uteyeho amashyamba ndetse n'ibimera bitandukanye, hakaba hari amazu ndetse kandi hakaba hari n'ahantu izuba riri kurengera, hari imyaka itandukanye iteye kuri uwo musozi kandi ni umusozi uturukamo amabuye yubakishwa.

Inkoko nyinshi zororewe ahantu hamwe, iyo uzigaburira ukaziha amazi ahagije yo kunywa ndetse ukaba waziha n'ibintu zitora muri icyo kiraro, zirakura zikavamo izindi nyinshi.

Ubworozi bwinshi bw'inkoko zitandukanye, amasake, inkokoka ndetse n'imishwi, ni inkoko zororewe hamwe, kandi zitanga umusaruro w'amagi ndetse kandi n'inyama.

Ubworozi bw'inkwavu z'umweru bugaragara hirya no hino mu gihugu ariko usanga ari hake cyane wakorora izo nkwavu, ni inkwavu zifite ubwiza butangaje kuko ziba zifite umubyibuho unakabije ziba zarariye.

Imishwi yororewe ahantu hamwe ndetse kandi harimo imishwi mito mito, ifite ahantu irira n'ahantu inywera amazi kandi ni imitoya harimo iy'umweruru n'imikara. Ika biba mu turaro dutoya twazo.

Ubworozi bw'inkoko bwororewe ahantu hamwe ndetse kandi akaba ari icyumba cyiza cyane kirimo ubworozi bw'inkoko zitandukanye amasake, inkokokazi kandi zikaba zifite umuntu wazigenewe uzicunga akazigaburira akazi buri kimwe.

Inka iri mu kiraro. Kikaba cyubakishijwe ibyuma. Ni inka ifite ubwiza butangaje, iri kurira mu kiraro cyayo. Yororewe ahantu heza kandi n'umukozi uyitunganya aba ame neza.

Ubworozi bw'inka bwororewe ahantu ndetse hagenewe kororwa. Ni inka nziza zifite igikuriro kandi harimo n'ikimasa kinini kibangurira, ni ahantu ku musozi zororerwa.

Uturaro duto dutoya tubamo inkwavu, tubamo urukwavu rubamo ukwarwo, ndetse kandi cyubakishijwe ibiti ndetse hakaba hari umuntu ubigenga akaba aza akazigaburira.

Ubworozi bw'ihene zikaba ziri mu gisambu ndetse zikaba ziri kurisha, ni ihene ziza zigezweho zifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina, harimo amasekurume n'amanyagazi.

Inka z'Inyambo ziri mu kiraro ndetse inyuma yazo hari abari kuzivura b'abaveterineri kandi zororewe ahantu hamwe, zitabwaho neza kuko zirasa neza.

Ihene z'inzungu zikaba ziryamye ahantu hamwe ni ihene ziba zifite amatwi manini ndetse kandi maremare zikaba zifite ibara ry'umweru ndetse n'ikigina harimo isekurume ndetse n'inyagazi.

Ubworozi bw'inkwavu, inkwavu zishyirwa mu kiraro zikitabwaho, zikahirirwa ndetse zigahabwa n'ibyatsi byiza bifite isuku; ni zimwe mu nkwavu zifite umwimerere mwiza zifite ibara ryiza ry'umweru.

Ingurube nini kandi nkuru y'imbyeyi ikaba ifi iri mu kiraro irasa nabi yororewe mu kiraro hamwe kandi irira ku manywa.

Inka nziza zigezweho zizwi nko gutanga umusaruro mu bworozi ndetse zikagira amata meza, ziri kunywa amazi, ziri kuyanywera mu kiraro, kuko zirafungiranye.

Umuntu uri gutera imyaka mu murima yatunganyije. Yambaye ga ku kuboko, afite imbuto nyinshi mu ntoki ze. Ari kuyinyanyagizamo kugira ngo abashe gushyiraho igitaka nyuma.

Imbuto ya soya, imbuto y'ibigori ndetse kandi n'umuceri, ni bimwe mu biribwa umuntu ahinga kugira ngo abashe kwihaza, mu byo kurya ndetse kandi abe yagira n'ubuzima bwiza.

Intiti mu gutunganya imbuto z'ubuhinzi barimo baratunganya imbuto, bambaye impuzankano nk'abakozi babo kabuhariwe, bambaye ndetse n'ingofero kuko bari mu ruganda rutunganya izo mbuto.

Igihingwa cy'umuceri cyasaruwe kiba ari kiza cyane, kirafatwa kikajyana mu ruganda gutunganywa cyangwa umuntu akawijyanira akawusekura mu isekuru n'umuco nyarwanda kugira ngo abashe kurya ibifite karite awujyana mu ruganda.

Abagabo babiri, umwe yambaye ingofero kandi n'agapfukamunwa. Undi yambaye ishati nziza cyane, bari mu cyumba kirimo ubuhunikiro bw'imbuto nyinshi. Ni depo y'imifuka myinshi irimo imbuto.

Abagabo babiri bari gufata ibirayi babiyobora babishyira mu mufuka, ni ibirayi basaruye ahantu bari barahinze bikaba byareze n'ibirayi binini cyane, bingana nk'ikijumba.

Imbuto zasaruwe mu murima ziri kwegeranywa zishyirwa mu mifuka kugira ngo umuntu azitware kandi zibikwe neza kandi ni imbuto zipakiye mu mifuka ya kilojana.

Aba veterineri bashinzwe kuvura inka cyangwa se amatungo muri rusange, barayavura ndetse bakabashobora no kuyabyaza igihe agiye kubyara. Ni abasore cyangwa se abakobwa baba bambaye impuzankano z'akazi ndetse bambaye na bote.

Abaganga bari kubaga inyamaswa ndetse kandi bayiziritse kugira ngo idatera amaguru, abaganga babiri bavanga amatungo babifitemo ubushobozi mu kubikora.

Umuveterineri wakoze inka mu nda akaba ari kuyibyaza, yambaye impuzankano z'abakozi bavura inka ndetse ari mu kiraro, inyuma ye hari izindi nka.

Abagabo bashinzwe iby'amatungo bahagaze impande z'inyama zabazwe bari kuzikorera isuku, kandi bari gufasha buri muntu wese kuba yagira uruhare mu kurwanya kurya inyamaswa cyangwa se amatungo yipfushije.

Inka ziri mu rwuri, ndetse zikaba zifungiranye ahantu, hari umuntu uri gufata inka agakuzamo ukuboko mu imbere mu nda, ari kuyibyaza ni uwabugenewe w'umuveterineri.

Umugabo w'umuveterineri akaba yambaye igisarubeti cy'akazi, akaba yambaye na ga mu ntoki ndetse n'agapfukamunwa. Akaba agiye kuvura inka yagize ikibazo iri mu kiraro, ariho aracunga umuti kugira ngo ujyemo neza mu rushinge.

Umukozi ubishinzwe uzwi nko kwitwa veterineri ashinzwe amatungo kuko aba yarayigiye kuko aba azi kubyaza, kuvura ndetse n'ibindi bindi, akajya kuyivura akayifasha uburwayi ifite.

Inka ya kijyambere izwi nk'inzungu yabyaye umwana kandi ibyajwe na veterineri ubishinzwe, yabyariye ahantu yororewe ahantu hagari kandi heza.

Imwe mu nyamaswa ziba mu mashyamba zigenga. Ni akanyamaswa gatogato kameze nk'imbwa kakaba kigenga kuko, kari ku musozi kari gukanaguzwa ngo karebe ibiri kuba hirya no hino.

Iyi nyamaswa iri mu zigenga yitwa isha, ikunda kugira ubwoba cyane cyane iyo ibonye izindi nyamaswa ziyikurikiye, ni inyamaswa igira amaguru maremare kandi ikaba igira uburyo yumvirizamo izindi nyamaswa.

Inyamaswa imwe mu zigenga, ifite amahembe manini kandi menshi atyaye. Ni inyamaswa irikumviriza umuriro uri kwaka hirya yayo kumusozi ukurikiye.

Inyoni ebyiri zigenga ziri mu ubwoko bwa za nyoni zifite amaguru maremare, zikaba ziri hafi ku mugezi ndetse kandi ni ebyiri, indi iri ku ruhande. Zikaba ziri kwitegereza hafi y'ahantu zegereye.

Inyoni nini izwi cyane yitwa umusambi akenshi ikunda kujya mu mazi koga, ikoga igenda akenshi ishobora no kwibira mu mu mazi ukaba wayibura.

Igisamangowe kinini cyane kitwa ingwe, kiri mu mashyamba, kiriho kirareba mu mazi, kikibonamo kikamoka ndetse kandi kigashaka kuba cyacyirukankana ngo kibe cyakirya cyangwa se bisuhuzanye.

Ingwe ndetse n'ibyana byayo, biryamye mu ishyamba kandi bitegereje ko hari igihita ngo bigikange, bibe byanakirya, ni inyamaswa ziba mu ishyamba, akeshi muri parike ziba zigenga.